Umuntu uri kuhira umuceri akoresheje imashini za kizungu yambaye imyenda y'umukara, ga y'umweru n'agapfukamunwa ,yambaye n'ingofero y'umukara.

Amafi abiri ahiye ari ku sahane isa n'umweru, hariho indimu zikase, hakabaho n'utundi tubabi tw'icyatsi na sereri na teyi.

Amabase atatu manini cane, iy'icatsi, iy'umutuku, iya oranje n'iya kake, abiri aregeranye n'andi abiri aregeranye, arimo isambaza ntoya.

Isahane iri mu tubara dutatse, iyo sahane iriho ifiriti, urunyanya, ifi, agapuwavuro gakase n'akandi kanyanya kari hejuru y'agapuwavuro, ifi irahiye biteretse ku meza.

Amafi atatu ari ku cyezo, ari mu tuntu tumeze nk'utwuma tuyafashe, ayo mafi arahiye hejuru hari indimu, munsi harimo umuriro uri gucumba imyotsi.

Iri soko ririmo ibicuruzwa biva mu mazi. Amafi, indagara, inyama z'amafi hari n'umugore wicaye wifashe ku mutwe, hirya hariho n'umunzani w'amashanyarazi.

Umugabo wicaye wambaye agapira n'ipantaro y'umukara, ari mu bwato bw'igiti bwa gakondo buri mumazi manini cane, hirya hari umusozi uri guhinguka uteyeho ibiti binini.

Umurima munini uhinze utarimo imitabo, uteyemo amashaza wasaruwemo ibigori. Hijya y'uwo murima hariho ibyatsi by'ibidariya, hakaba hateyeho n'ibitoki.

Umurima munini udahinze urimo umucaca usa n'icatsi, haziritsemo intama eshatu, imwe irahagaze izindi ebyiri ziraryamye, hirya y'uwo murima hari ibiti birebire ndetse n'urutoki.

Umurima munini cane guhinze gurimo imitabo iteyemo ibirayi. Hirya y'uwo murima hateye insina ndende hari guhinguka n'ikirere gisa n'ubururu.

Abantu bari kugenda bari kuzamuka, abandi bari kumanuka bamwe barikoreye, bari guca mu kayira impande yako hari igiti kirekire cy'umuvumu, hari ishuri riri hirya rifite amabati y'ubururu, haruguru hari ibiti birebire ndetse n'umurima uri hirya udahinka.

Umurima munini cane basaruyemo ibigori urimo igiti kirekire hari abagore batatu bari guhinguka haruguru bari guhinga mu rugo muririma haruguru hari ikirima kinini cane kiri guhinguka.

Umuntu uri kugenda mu kayira gaciye hagati y'imirima, udahinze urimo ibyatsi byinshi, haruguru hariho umunara muremure n'ibiti birebire, hakabaho n'ikirunga kiri guhinguka, hakaba hariho n'ahandi hateye ibigori byumye birimo n'insina hagati.

Umurima munini udahinze basaruyemo igihingwa c'ibigori, haruguru y'uwo murima hateye ibirayi birimo ibiti byinshi harimo n'icyatsi cy'ikidaliya, hagati y'iyo mirima iteyemo ibirayi harimo ibigori byumye basa nkaho basaruye.

Umurima munini cane guhinze, harimo imitabo ziteye tungurusumu ziri ku murongo hirya hari undi murima uteyemo igitoki n'igiti ca avoka.

Umurima munini cane guteyemo ibirayi ndetse n'ibigori byumye, harimo n'imishingiriro bashingiriza ibishimbo, haruguru hari ibiti birebire biri guhinguka.

Umugore uri kugenda wikoreye indobo uhetse umwana, afashe akadomoro mu ntoki inyuma ye hari umwana muto cane ufashe udufuka tubiri, impande yabo hari igitoki, hirya yabo hari ikidodoke.

Umurima uteyemo karoti kandi ziri mu mitabo. Wasaruwemo ibigori. Hagati hateyemo igiti kirekire. Haruguru hateye insina nyinshi.

Umurima munini udaheruka guhingwa wamezemo n'ibyatsi byinshi, harimo n'amajeri hagati n'igiti, hirya ibiti birebire biri mu mazu y'abaturage n'imirima ikikijwe inzu z'abaturage ihinze.

Umurima munini cyane udahinze ariko wamezemo ibyatsi hejuru ku mutabo no mu ndego haziritsemo ihene enye, eshatu z'umukara nimwe ya kaki hirya hari umurima basaruriyemo amasaka n'ikirunga kiri guhinguka hirya y'igitada.

Umurima uhinzwemo karoti, hirya y'uwo murima hahinzwemo ibirayi, haruguru y'uwo murima uhinzwemo ibirayi basaruyemo ibigori, hagiye hateyemo ibiti biri hagati n'ibindi biti birebire biri hirya yayo.

Igiti citwa inyinya giteye imbere y'inzu. Impande y'ico giti hari itunda, hariho igipangu kizitiye urwo rugo inyuma y'igipangu hari igitoki

Umurima munini cane urimo imitabo idahinze basaruyemo ibigori n'ibirayi, hirya hari ibiti n'umunara uri haruguru uri guhinguka, hari undi murima basaruyemo amasaka harimo ibikenyeri byumye.

Umurima ufite imitabo miremire, uteyemo karoti zikuze cane, zifite amabara y'icatsi, hateyemo igiti cy'ikibonobono hagati, ufite uruzitiro rwubakishijwe ibyatsi by'ibidariya, haruguru hariho n'imigano.

Umurima munini cane uteyemo ibinyomoro bitaribyeyera, hagati hariho ababiri y'ibiko batemye, impande y'ayo mababi hariho urubingo.

Igiti citwa inyinya gifite amababi menshi y'icatsi, giteye imbere y'inzu ariko kitarazana imbuto. Iyo nzu yubakishijwe amabati ifite imiryango iteye amararangi, irangi ry'umukara.

Igitari kinini kirimo ibiti bitari binini cyane, by'intusi imbere y'ico gitari hariho icyatsi cy'ikidariya n'ikindi cyatsi twita umushubi.

Igitari kirimo ibiti birebire by'inturusu harimo iza nyiramweru. Imbere hari icatsi cy'ikidariya hirya ya co hari icatsi c'umushubi.

Umurima munini guteyemo ibihaza, hakaba harimo igihaza kinini ceze, hakaba harimo n'ubwatsi busanzwe ndetse ukaba usa nk'aho wari uteyemo n'ibigori.

Umurima guteyemo ibirayi gufite imitabo miremire, hirya y'ugwo murima hateye ibigori byeze byumye, hirya yawo hagati hateyemo urutoki, hepfo hateye ibiti by'ibidariya.

Umurima munini cyane uhinze uteyemo karoti ziri ku mitabo nyinshi, haruguru hari umurima w'ibirayi, hirya naho hateyemo ibirayi. Hari ibiti biri guhinguka birebire biri hagati y'imirima n'ikirunga.

Abagore bane bari mu murima bakenyeye ibitenge bose, batatu bari guhinga bafashe amasuka ,umwe arunamye ari gukura ibirayi, inyuma yaho hari ibirayi birambitse umu ku murima hejuru.

Abantu bari mu murima. Harimo abana, abagore n'umugabo bari mu muririma wi'ibigori bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari ibiti birebire biri guhinguka harimo umugabo wambaye ingofero, n'umugore wambaye ingofero.

Ibitoki bibiri harimo igihiye gisa n'umuhondo cabaye imineke, hakabaho n'ikindi gisa n'icatsi kitarasha kandi bikaba bifite amabere matoya cane.

Umugabo uri guseka yambaye agapfukamunwa, ariko ku karevura yambaye agapira k'umweru gafite iko ry'umukara, n'akabara k'umutuku afashe ibase y'ubururu irimo amatunda, yahiye afite ibara rya shokora.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo imbuto zirimo inyanya, imyembe, wotameroni, amashu, ndetse hakaba hamanitsemo n'udufuka, hijya hariho n'umutaka munini w'umuhondo.

Abantu bari gutera imyaka harimo umugore wikoreye umufuka gurimo ifumbire g'umuhondo, inyuma ye hari umugabo nawe uri mu murima wifashe ku gahanga akaba yambaye umupira g'umuhondo.

Abagore batatu bari guhinga bose bafashe amasuka, bakenyeye ibitenge babiri biteza udutambaro mu mutwe undi ntabwo yiteze, inyuma yabo hari guhinguka ibyatsi bifite ibara ry'icatsi, bose bari guhinga.

Umugore wunamye yambaye agatambaro mu mutwe arakiteze, yambaye umupira w'amaboko ufite ibara ry'umweru n'umutuku akenyeye n'igitenge, ari kubagara ibirayi.

Isoko rinini cane ririmo abacuruzi bari gucuruza:udufuka, ibirayi ,imineke, ibipapayi ndetse n'izindi mbuto n'imboga bitandukanye.

Isoko rinini cane bacururizamo ibintu bitandukanye, harimo imboga zigizwe n'intoryi, pavuro, inyanya n'amashu.

Umugore uhagaze yiteza igitambaro mu mutwe, yambaye ishati y'amaboko magufi isa n'umukara, akenyeye n'igitenge afashe terefone mu ntoki ari kuyikanda, inyuma ye hari umugabo uri mu murima uhinzemo soya.

Abantu benshi bari mu murima bari kugenda bikoreye amabase arimo ingemwe z'ibiti bagiye gutera, imbere yabo hariho umugabo uri gusunika igare uhetse ibasi ku igare irimo ibiti bagiye gutera, bakaba bahagaze mu murima guteyemo ibigori.

Umugore uri mu murima gw'ibigori wambaye agasengeri k'umuhondo, ukenyeye n'igitenge ,witeze n'igitambara c'umukara, uri kureba ko ikigo ceze kandi uri mu murima mwinshi w'ibigori.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye n'agapira, ufite umusatsi mukeya, uhagaze mu murima ufashe isuka guteyemo imboga zitwa ndamutibikanye, inyuma ye hateye ibiti birebire by'intusu biri ku gasozi.

Umurima munini uhinzemo ibigori biteye ku mutabo. Bireze, mu ndebo hateyemo ibihaza bifite amababi g'icatsi.

Umurima munini cane guhinzemo imitabo ziteyeho ibirayi byakuze bisa n'icatsi hari abagore bari kubabagara umwe yambaye agapira k'icatsi arunamye.

Abagabo batanu bari mu umurima. Babiri barunamye, umwe afashe umufuka, undi arahagaze yambaye isengeri y'umweru, undi ahagaze imbere yabo afashe imyumbati mu ntoki.

Abagore benshi bari kunyura mu murima gw'icayi, bikoreye ibisero birimo icayi n'ibindi bisero bipfundikiye icayi, bakenyeye ibitenge bamwe muri bo bahetse n'abana.

Umugore uri kugenda wambaye ijipo y'umukara n'agapira uteze igitenge mu mutwe. Afashe amabasi menshi n'isuka. Haruguru hari inzu zamashitingi asa n'umweru, n'abandi bantu benshi bahagaze imbere y'iyo nzu, ari guca hagati y'imirima.

Ingurube zihagaze indi iricaye impande hari umucaca, hari igiti cy'umushipuri giteye impande y'inzu yubakishijwe amatafari na mategura. Inyuma hari guhinguka umusozi urimo amaterasi.

Abagore bane bari mu ruganda bari gutunganya avoka zifite ibara ry'icyatsi zimwe ziri mu gikarito ,Izindi zisutse ku meza ,haraguru yaho harambitse ibikarito byinshi.

Inka ebyiri ziri mu gikuyu, imwe ifite amabara y'umukara n'umweru, indi ifite ibara rya shokora hirya hari uruzitiro rw'ibiti, hirya hari imirima ihinze ikikijwe n'imisozi.

Umurima munini cane uteyemo imyumbati. Hagati harimo ibiti bigufiya. Hirya hari imisozi miremire iteyeho ibiti byinshi. Iyo myumbati ni miremire yenda kwera.

Imifuka myinshi iteretse ku muhanda yuzuyemo ibirayi. Inyuma y'iyo mifuka hari umurima urimo ibiti birebire bya geveriya, uteyemo n'ibishyimbo bishingiriye.

Abagore batanu bari guseka bafashe amasuka, barikubagara ibijumba, umwe arunamye cane arikubagara, biteze ibitambaro bose bakenyeye n'ibitenge.

Umugabo usutamye mu murima guteyemo insenda, afashe ku gati kamwe k'urusenda, yambaye ingofero y'umukara, amarinete, ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'ikoboyi.

Umufuka munini cane gurambuye ku mbuga y'amapave. Guriho inyanya, haruguru hateretse ibase y'ubururu irimo inyanya.

Umugabo uhagaze mu murima munini, uteyemo ibigori bikiri bitoya cane, urimo imashini nyinshi za kizungu, z'amashanyarazi zifashishwa bari kuhira imyaka. Umugabo akaba yambaye ishati ya buresiyeri n'ipantaro y'umukara.

Isoko rinini cane ririmo abantu bake, hari umugore wicaye witeze igitenge mu mutwe, harimo imifuka myinshi isa n'umweru n'icatsi yose irimo ibirayi.

Ibigori byinshi cane, bimanitse ku biti bigerekeranye, byeze, bifite ibara ry'umweru, byumye, bikaba biri mu nzu nini, yubakishijwe amabati, ifite igisenge cy'imbaho.

Abanu benshi bari mu muririma w'igishanga bari guhinga, harimo amazi bafashe amasuka, hirya yaho hari umusozi muremure uteyeho ibiti n'indi mirima ihinzemo.

Amabase abiri afite ibara ry'icatsi, ateretse ku meza, arimo ibijumba bisa n'umutuku, bimwe birakase. Imbere yayo hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye ishati ya calokalo, undi yambaye agapira k'umweru.

Umugabo uri guseka cyane uhagaze mu murima uteyemo amatunda ya mayugi ari ku biti, asa n'icyatsi yambaye umupira w'umweru harimo n'amabara y'umukara afashe amatunda yeze.

Abagore bane bakuze harimo n'undi umwe mutoya bari guhinga bafashe amasuka. Inyuma yabo hahagaze abantu benshi mbese impande zabo hariho igiti batemye aricyo gishyitsi, hakaba n'abandi bari hepfo yabo bari guhinga.

Abagore babiri bari kugenda. Bombi bafashe amasuka uw'imbere ahetse umwana afashe n'agafuka yiteze agatambaro k'umutuku . Uw'inyuma akenyeye igitenge afashe agakapu gasa n'icatsi yiteye igitenge , yiteze igitenge c'umutuku.

Umugore uhagaze afashe isuka yiteze igitambaro mu mutwe gisa n'umweru yambaye ishati yamabara akenyeye igitenge inyuma ye hari umurima guteyemo urutoki.

Umurima munini cane uteyemo igihingwa cy'ikawa ndetse n'insina z'urutoki ukaba izo kawa zishashemo ibyatsi byumye.

Umurima munini cane uteyemo ibigori byeze bifite amabara y'icyatsi bitaruma hirya y'uwo murima harimo ibiti birebire.

Umukobwa wambaye ingofero n’umupira g’umutuku, ufite n’igikapu, afashe urubuto rwa wota meroni ari kururukata. Inyuma ye, hari ikigega, impande yaco hateretse ibiduki bisa n’icatsi.

Abagabo babiri bari mu umurima gw'ibigori, umwe yambaye igisarubeti gisa n'ubururu undi yambaye agapira gafite amabara gavanze n'ipantaro ya kake, bari gusarura ibigori byeze.

Abanu batatu bahagaze abagore babiri n'umugabo umwe, yambaye ingofero y'umutuku n'amarinete, abagore bariteze bose bafashe amashu manini cane mu noki.

Abantu bari guhinga mu umurima munini cane, harimo umugore uri guhinga ufashe isuka, wambaye ijipo n'agapira akaba hubatsemo n'ikiraro, kaba hateyemo n'ibiti byinshi ruguru hariho umusozi.

Inzu iteretswemo imifuka myinshi, imwe iruzuye indi ntabwo yuzuye, hari igitoki gifite amabere menshi gisa n'icyatsi, imbere y'icyo gitoki hari umufuka impande yaho agatebe k'agatabureti gafite ibara ry'ubururu, hejuru irangi ryavuyeho.

Umugabo n'umugore bari kugenda hagati y'imirima. Bombi bafashe inkondo ku rutugu. Haguru hari guhinguka imisozi iteyemo imisina. Hirya mu murima hateye igiti c'ummbati, umugore afashe igipaniye, yambaye agapira k'umutuku, akenyeye n'igitenge.

Abantu bari mu murima, bafashe ibipaniye bisa n'icatsi, bari gusarura inyanya, zimwe zisa n'icatsi izindi zisa n'umutuku zarahiye.

Umurima munini uteyemo igihingwa c'imyumbati itari myinshi cane, hirya y'ugo murima hateye urutoki, hirya yaho hariho ibiti birebire.

Abagore batanu bahagaze ku muronko bafashe inanasi mu noki ,batatu biteze ibitambaro mu mutwe abandi babiri nabyo, bakenyeye igitenge bane umwe yambaye ingutiya.

Isoko irimo ibicuruzwa by'ibirayi bya kinigi, harimo abagore bicaye, umwe wifashe ku ruhande ukenye agatambaro k'ubururu wambaye n'agapira karirimo amabara atandukanye.

Umurima munini cyane uhinze. Hagati harimo ibiti birebire, inyuma hari igitari. Uti ujitijwe uduti dutoya tw'ibiko dufite amababi hejuru gusa. Imbere hari igishyinga cy'amabuye.

Amabuye gatondetse ku gishinga. Inyuma y'ayo mabuye hari umucaca gw'icatsi, n'ibiti by'ibiko biteye impande g'umurima munini cane guhinze. Haruguru hari ibiti birebire n'akazu kari guhinguka k'amabati gusa.

Umurima munini uri ku gasozi uhinze urimo amaterasi, hepfo y'uwo murima harunze amabuye menshi, hakaba hariho n'ahari umucaca uteyemo igiti, haruguru yaho hari ishamba rinini ririmo ibiti by'intusi.

Ibyatsi bitatu byitwa ibihwagari. Icya mbere cyarapfunduye gifite ururabyo rusa n'umuhondo. Bibiri nta bwo birapfundura ibirabyo, biracyabumbye, byose bifite amababi y'icyatsi.

Ibigori bitonoye biri ku ku murongo icumi biri mu gakarito. Bifite amababi ndetse n'amabara avangavanze.

Umugore uhagaze mu murima yambaye agapira n'ijipo y' igitenge yiteza agatambaro mu mutwe, ari gukora ku masaka yeze asa n'umutuku afite n'amabari maremare asa n'icatsi.

Ibicuruzwa biriri mu isoko biri mu mabase, impande yayo mabase hahagaze umugore ukenyeye igitenge, ibyo bicuruzwa bikaba ari ibinyampeke ari iby'ibishimbo, umuceri n'amashaza.

Umugore wambaye ingofero y'umutuku mu mutwe, ishati ya bresiyeri n'ijipo y'igitenge, afashe intara, ari kugosora impungure, inyuma ye hateretse umufuka w'umweru wuzuye.

Igishimbo kigufi kidashingirigwa giteye mu murima, gifite amababi g'icatsi gasa nk' aho gagwaye, kiikaba gifite imiteja myinshi isa n'icatsi. Muri ugwo murima harimo n'amabuye menshi.

Umugore uteze agatambaro mu mutwe wambaye n'ishati y'ubururu ndetse n'umwana usinziriye wamukindikije igitenge afashe intara iriho ibishimbo ari kugosora.

Ibishimbo biri mu mufuka bifite amabara atandukanye, iryiganjemo cane ni iry'umutuku harimo iry'umukara n'iry'umuhondo n'iry'umweru, imbere yaho hariho umwenda ugaragara w'amabara, ibishimbo bikaba biri mu bugemeri no mu gikosi.

Imurima munini cysne uhinze urimo n'imitabo, uteyemo ibishyimbo harimo n'imishingiriro ifashe ibyo bishyimbo, birabagaye impande yaho harambitse amabuye manini cyane.

Ibishimbo by'amoko atandukanye biri mu mufuka, bifite amabara abiri, iry'umweru n'iry'umutuku. Hirya y'aho na ho hateretse imifuka itatu minini cane nayo isa nk'aho irimo ibishimbo.

Umugore uri guseka yiteze agatenge mu mutwe yambaye ishapure y'ishusho ya Yezu mu ijosi, yambaye n'isengeri y'umweru, afashe ibyatsi mu ntoki, inyuma ye hari umurima uhinze ,hirya yawo hari umurima uteyemo ibigori byumye.

Umuceri gutonoye guri mu mufuka, n'ugudatonoye, ugutonoye gusa n'umweru naho ugudatonoye gusa na kaki ,guri mu mifuka isa nkaho iboshwe y'imyenda.

Umugore wunamye witeza agatambaro k'umutuku mu mutwe, ahetse umwana yamukindikije igitenge, umwana arasinziriye afashe intara ari kugosora ingano.

Umurima munini cane guteyemo ibigori biri kumurongonko. Biringaniye hirya hateye ibiti biri hamwe, bitari birebire ndetse n'urumuri rw'izuba ruri guhinguka.

Umuganga uvura amatungo wambaye umwenda w'akazi usa n'umweru, inyuma ye hahagaze umugore wambaye imikenyero n'agapfukamunwa, afashe urushinge runini ari gutera inka, hirya ye hahagaze undi muganga wambaye ingofero y'umukara.

Inka ebyiri zifite amabara atandukanye . Inka ya mbere ifite ibara ry'umukara n'umweru n'amahembe. Inka ya kabiri ifite ibara ry'umweru n'ibara rya oranje zikaba ziri kurisha urubingo.

Umuganga wita ku matungo, yambaye umwenda w'akazi usa n'umweru n'agapfukamunwa. Afashe urushinge ari kurutera inka. Hirya ye hahagaze undi mugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero y'umukara yambaye ishati y'ubururu.

Inka nyinshi ziri mu kibuga, zifite amabara atandukanye, harimo inka y'umutuku n'inka y'umweru, hari izifite n'amahembe maremare, ziri kurisha umucaca, inyuma yazo hari ibiti birebire n'ibindi bigufiya.

Umwana w' umukobwa wicaye, yambaye ishati isa n' ubururu ifite ibipesi, afashe agakombe mu ntoki gafite ibara rya maharara, impande hahagaze inka y' inyana.

Umugore uri guseka biteze igitambaro, hambaye itaburiye y'umweru, afashe ihene. Inyuma ye hari uruzitiro rwubatse, rwubakishije amabati, ahagaze mu ihene nyinshi.

Inkwavu eshanu ziri mu kiraro zibamo, ziri kurya, hari umuntu uri kuzihereza ubwatsi busa n'icatsi, harimo izisa n'umweru cane, hakabaho n'izindi zidasa n'umweru zifite amabara avanze harimo n'irya kaki.

Abantu batatu, umugore umwe n'abagabo babiri, bafashe ku mbwa, babiri, umugore n'umugabo bambaye ga, undi ntayo, inyuma yabo hari guhinguka umuntu wambaye bodaboda zisa n'iroza, n'ipantaro ya kaki.

Butike ifunguye iriho ibyapa byinshi byanditsweho vetalinkisi, hashushanyijweho imboga n'imbuto ahandi mbwa, imbere hari icapa kinini kiriho imashini.

Abantu bahagaze mu nka nyinshi , umwe wambaye agapira k'umukara, ijipo y'umutuku na bote ,hirya hahagaze umugabo n'undi muntu wambaye iby'ubururiu uri guhinguka, hirya hari akazu kubakishijwe ibiti gafite n'amabara.

Umugore witeze igitambaro wambaye itaburiye isa n'umweru ufashe ihene ahagaze muhene nyinshi zifite amabara atandukanye hari zifite amabara y'umukara n'umweru amabara y'umweru gusa inyuma ye hari inzu yubakishijwe amabati gusa.

umugabo n'umugore bahagaze imbere y'insina. Umugore akenyeye igitenge, yambaye agapira k'amaboko magufiya. umugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro, imbere hari ihene iri kurisha ubwatsi, hirya hariho akazu kubabakishijwe amatafari y'inkarakara.

Umuganga ushinzwe kwita ku matungo cangwa kuvura amatungo yambaye umwenda w'akazi usa n'umweru, wandikishijweho amagambo y'umukara, afashe urushinge n'agacupa imbere ye hari inka eshatu iy'umukara n'izindi ebyiri zifite amabara y'umutuku n'umukara, hirya yaho hari ibiti byinshi.

Agasimba gahagaze ku giti kirekire gafite amaso manini n'amatwi matoya asa n'umweru, gafite amabara abiri ibara ry'umukara n'ibara ry'umutuku.

Ikigona kinini cane gifite umunwa gusongoye gifite amabara atatu iry'ubururu iry'umuhondo n'iry'icatsi impande y'ijisho hari akabara k'umukara n'ak'umweru.

Umurima uteyemo ingano, hagati hahagaze urugona runini rufite urunwa rusongoye, rufite ibara ry'umweru n'iry'umukara. Haruguru ku mpande hateye ibipapayi bya kizungu, hari n'insina imwe iteye mu murima wo haruguru uhinze.